Abakozi bateraniye mu cyumba cy'inama giteguye neza, kirimo ubuhumekero buhagije, barimo kungurana ibitekerezo ku iterambere ry'igihugu, babakirije amazi y'uruganda Inyange yo soko y'ubuzima buzira umuze.

Inama y'abakozi bicaye mu cyumba. Hitabiriye bake cyane kuko bicaye mu gice cy'imbere gusa, inyuma ntabahari. Barakurikiye cyane, barimo no kwandika imyanzuro mu makaye yabo, ndetse no muri telefone basubiza, bakurikiye.

Abakozi bari mu biganiro mpaka mu guteza imbere ikigo cyabo, babiri muri bo, barimo kumurika ibyo bagezeho mu bushakashatsi bakoze, bifashishije ikoranabuhanga ry'amashusho, n'indangururamajwi zivuga neza.

Ibitaro bikuru bya CHUK kigali bifite inyubako nshyashya zishimishije, ubusitani butanga umwuka ndetse n'imbangukiragutabara yihutana abarwayi igihe ari ngombwa.

Ikirongozi kirimo abantu bategereje guhabwa ubufasha, hari abicaye ku ntebe n'abandi bahagaze, harimo umugore uhetse umwana. Iruhande rwabo gato hari indi ntebe yicayeho umugororwa udafite umurinzi.

Wari uzi ko ukwiye kwirinda abagira ibyo bagusaba bakwizeza kuzagufasha kubona ubutabera mu nkiko? Birinde ubutabera ntibugurwa. Iyo ikaba ari inama y'igihugu.

Inama y'abashoferi batwara moto z'abagenzi irimo gukoreshwa n'abapolisi bane babasobanurire uko bakwiye kubahiriza amategeko y'umuhanda cyane cyane bubaha uburenganzira bw'abanyamaguru igihe bambukira mirongo y'umweru mu muhanda.

Ihuriro ry'inama y'abagore, barimo kumurika ibyo bagezeho mu kwiteza imbere, mu byishimo byinshi basabaniye ndetse no ku mitobe itandukanye, bikoreye mu bikoresho ndetse no mu bihingwa bahinga mu Rwanda rwacu, ni byiza cyane.

Umukandida w'ishyaka PER yagiye kwiyamamaza, bamuteguriye ihema rinini ry'umweru, uwo mugore uhagarariye ishyaka afite indangururamajwi, asobanurira abaturage imigabo n'imigambi bye, yambaye kinyarwanda umukenyero w'umuhondo n'umupira w'icyatsi.

Inteko rusange y'abanyamuryango wa FPR inkotanyi, yateraniye mu busitani bw'umurenge, bahashyize amahema ane atatse bishimishije. Abitabiriye bose bafite akanyamuneza, bishimira ibyo bamaze kugeraho.

Igikamyo cya rukururana cy'umweru kivanye ibicuruzwa mu mahanga, kigeze ku cyapa cya mitsingi kiri haruguru y'umuhanda n'agashyamba gato munsi yawo. Kiragenda neza nta muvuduko ukabije gifite nk'uko amategeko y'umuhanda abiteganya.

Imodoka itwara ibicuruzwa y'Umweru ifunze, ihagaze iruhande rw'abashoferi b'amapikipiki 4 batwaye abagenzi. Hirya y'umuhanda hari agashyamba gakorotirije senyenge y'icyatsi kibisi.

Icyapa kinini cy'umweru n'umukara kiranga nimero y'umuhanda w'ijana na mirongo inani n'icyenda ,giteye uruhande rw'ibiti binini n'ingo z'icyerekezo hakurya yacyo.

Inyubako eshatu z'amagorofa ari haruguru y'umuhanda mugari wa kaburimbo, iri hagati muri zo igeretse gatatu, yaruzuye inakorerwamo, iy'ibumoso bwayo iracyubakwa iriho n'ibikwa naho iy'iburyo igeze mu gukorerwa amasuku ya nyuma.

Inzu y'igorofa y'umweru yo guturamo igereretse rimwe ifite ubusitani bw'ibiti by'indabo na parikingi irimo imodoka ebyiri z'amavatiri, n'indi iri inyuma iparitse inyuma y'urupangu.

Inyubako ngari y'igorofa igeretse gatatu ifite inzugi n'amadirishya by'umukara, ikikijwe n'ubusitani bugari bugizwe n'ibiti by'inganzamarumbo n'indabo zibereye ijisho zizitije ibyuma by'umutuku na senyenge y'icyatsi.